Itsinda ry'umuryango wita kumbababare ndetse no gutanga amaraso, bari mu ihuriro inyuma y'ibiganiro bakaba bari bari gufata amafoto nyuma y'ibikorwa bitandukanye bashinzwe harimo no gutabara imbabare ndetse no gutanga amaraso, ndetse n'ubundi bufasha ku bijyanye n'ubuzima.